Inyubako irimo abantu binjiranye zose batandukanye baje bashaka serivisi zitandukanye kwa muganga ndetse imbere yabo hari umuntu ufite mudasobwa arimo arabaha serivisi.

Itsinda ry’abantu batanu bicaye baganira ku ngingo imwe rigizwe n'abagore babiri b'abazungukazi n’abandi bagabo batatu n'abirabura, imbere yabo hari icupa ry’amazi.

Itsinda ry'abayobozi batandukanye, bo mu nzego zitandukanye, bahagaze hamwe bambaye amakositime ndetse n'imyambaro myiza n'amabaji mu majosi yabo.

Itsinda ry'abanyabuzima bahagaze hamwe, aho bambaye imyambaro yabugenewe iri mu ibara ry'ubururu, ndetse bakaba bafite n'undi mushyitsi wabasuye ahagaze hagati yabo.

Itsinda ry'abanyabuzima rigizwe n'abagore n'abagabo umubare runaka, bicaye hamwe bateze amatwi umuntu uri imbere yabo arimo arabasobanurira ingingo runaka.

Abantu batatu barimo abagore babiri ndetse n'umwana mutoya ufite imyaka itatu, uyu muganga arimo arita kuri uyu mwana aho agiye kumukingira.

Ikintu gicukuwe kikaba kirimo amazi meza akoreshwa

Abantu babiri barimo baravoma amazi meza ku iriba, buri wese afite ijerekani iri imbere, umugore niwe uri imbere, umugabo akaba mu ruhande rwe hirya, ni umugezi mwiza, uri ahantu mu ishyamba.

Umwana w'umukobwa mutoya wishimye, ufite imisatsi izinze, arimo arakaraba ku mugezi n'amazi meza, arakarabira mu ibase nta mazi ari gupfa ubusa.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuntu wambaye umupira wabanyabuzima uyu akaba ari umurwayi wicaye ndetse n'umuganga urimo aramukingira ku kuboko kw'ibumoso.

Itsinda ry'abantu biganjemo abajyanama b'ubuzima, bambaye imyambaro yabugenewe ndetse na za baji, bahagaze hamwe bafite umushyitsi uri hagati yabo wambaye kositimu.

Itsinda ry'abantu batandukanye, abagore, abagabo ndetse n'abakobwa, bahagaze imbere y'inyubako, barimo barareba muri kamera, bavuye mu gikorwa runaka.

Umwana mutoya uri ku ivomo, ivomo rigizwe n'amatiyo abiri, iryo vomo buri tiyo rikaba riri kuzana amazi, mu gihe uwo umwana we afite igikombe kinini arimo aravoma amazi yo kunywa.

Abagore babiri, umugore umwe wazanye umwana kwa muganga, muganga arimo araha umwana ikinini mu gakombe k'agafuniko, aho yabanje ku gisya akakivanga n'amazi.

Abana bane bari mu gishanga baje kudaha amazi mabi, buri wese afite igikoresho ari buyatwaremo. Abana bari kuyavoma bishimye kandi si amazi meza.

Umugore uhagaze afite mikoro mu kuboko kw'iburyo, wambaye isaha ndetse n'utundi dukomo ku kuboko, ni umugore w'umuzungu urimo urageza ibintu runaka ku bantu.

Abana b'abanyeshuri bicaye hasi ku mukeka ndetse abandi bicaye kuri tapi, harimo n'ababyeyi babo bakaba bagize umushyitsi w'umuzungu ndetse n'abandi batandukanye b'abirabura, bakaba bari kubaganiriza ibintu bitandukanye.

Abagore bato bari ahantu mu gishanga kwivomo, aho barimo baravoma amazi aza ariko bamaje gupompapompa aturuka mu butaka.

Abagore batatu bari hamwe ku mugezi, umwe ari kudaha amazi abandi babiri bagapompa. Aya ni yamazi aba mu gishanga, aza ari uko babanje gupompagura.

Abagore bane bicaye ahantu mu gacaca ku gatebe, aho bari imbere yabo hari umuganga, bakaba ari kubapima amaraso yabo.

Abantu bane bicaye ku meza amwe, buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi, hari umwe uri kuvuga bigaragara nkaho hari icyo ari kubwira abandi kuko bamuteze amatwi.

Sare ikorerwamo inama, irimo abantu batandukanye b'abayobozi ndetse n'abandi bicaye babateze yombi, aba bayobozi bicaye imbere, aho imbere yabo hari ameza ariho uducupa ndetse n'ibindi bikoresho. Abandi bafite amakaramu n'amakayi, bari kwandika iby'ingenzi byavuzwe n'abo bayobozi.

Umwana uri k'umugezi ahantu mu gishanga aho arimo arakaraba amazi meza aturuka kuri rubine, umwana arishimye cyane.

Abana babiri, bapfukamye ku iriba, ku mazi yo mu gishanga. Bafite amajerekani abiri, ikinini n'igitoya. Baravoma amazi atemba.

Itsinda ry'abantu batandukanye bari mu nama harimo abazungu batatu ndetse n'abirabura aba bantu bicaye aho imbere ya buri wese hariho icupa ry'amazi.

Umukobwa urimo aravoma amazi mabi atemba hasi ndetse n'umwana iruhande rwe wambaye utubodaboda tw'icyatsi, arimo ararebera.

Umugezi uri ahantu hitaruye ku kigo cy'amashuri, uri mu ibara ry'ubururu ndetse iruhande rwawo hari abana ndetse n'umugore umwe urimo urakarabya abana.

Imbaga y'abantu bicaye mu cyumba kimwe, aho bahuriye ku ngingo imwe bari kwigaho. Aba bantu bakaba barimo ingeri zose: abagore, abagabo, abazungu n'abirabura. Buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'ibitabo.

Umugezi uri ahantu mu rutoki hakikijwe n'insina, uriho amajerekani menshi agera mu munani, uyu mugezi ukaba uhagazeho abantu batatu b'igitsina gore.

Icyumba kirimo abantu bane barwaye hejuru yabo hari imitako itandukanye igaragaza ibikorwa bitandukanye nko konsa ndetse no kurera umwana.

Abana babiri bari hamwe ku mugezi, ku kumugezi bavomaho ari uko babanje gupompapompa, aba bana barishimye umuhungu arimo arapombera umuhobwa, hari umukobwa ateze amazi mu ijerekani arimo arajyamo.

Umuganga uri mu cyumba cy'abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye, aho uyu muganga yambaye impuzankano yo kwa muganga y'icyatsi, ndetse akaba aniteze yambaye igitambaro mu mutwe.

Umwana mutoya umaze kuvomera amazi mu ndobo ifite ibara ry'umuhondo. Amaze kuvoma aho ashaka kwikorera undi mugabo uri imbere ye akamushyirira ingata ku mutwe.

Iriba riri ahantu mu gishanga kegereye inzu, harimo abagore n'abana barimo baravoma amazi babanje gupomba. Hatezeho indobo nyinshi ndetse hari n'amajerekani.

Abantu bahagaze hamwe mu cyumba kimwe, aho inyuma y'aho handitse amagambo agira ati: Uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu. Aba bantu bakaba ari bamwe mu barwanya uko gutwita kw'abangavu.

Umwana wumuhungu ufite umusatsi w'injwiri. Uyu mwana akaba ari kuri robine arimo arakaraba mu maso. Uyu mwana arishimye cyane dore ko ari no guseka.

Abantu bicaye hamwe imbere y'umurenge, aba bantu bari muri gahunda itandukanye yo guhabwa serivise runaka, hari imodoka ya taxi ndetse buri wese ari guhabwa serivise umwe ku wundi.

Itsinda ry'abantu bambaye impuzankano yabugenewe, isa nk'ibara ritukura barimo barubaka uturuma twigikoni kugira ngo babungabunge imirire myiza.

Umukobwa wicaye arimo aravoma amazi meza ndetse, inyuma ye hakaba hanitse imyenda uyu mukobwa yateze amabase hasi ku buryo nta mazi yapfa ubusa.

Umugore wishimye uteruye umwana wambaye agagofero k'umweru, akaba ateretse indobo y'umukara ku mugezi, agiye gufungura amazi.

Abana icumi bagaragara neza ndetse n'abandi babiri batagaragara ku ruhande, abana bambaye imyenda isa bose y'ubururu iyo myenda ikaba iriho ibirango by'ikigo giharanira uburenganzira bw'umwana unisefu.

Icyumba kirimo abantu babiri aho umwe ari umuganga, kirimo ibikoresho bitandukanye nka migiseri ndetse kompiyuta, intebe zabugenewe ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo abaganga benshi, bambaye imyambaro yabugenewe ndetse hakaba harimo n'abazungu, babasuye, aba baganga barishimye cyane.

Abantu bari ku mugezi barimo baranywa amazi, ndetse hari ibirango bya UNICEF bishinzwe uburenganzira bw'abana biri mu ibara ry'ubururu n'amagambo y'umweru.

Umwana w'umukobwa upfukamye ku mugezi, yateze intoki ku mazi ari kumugwa mu biganza ndetse imbere ye hateretse amajerekani y'ubururu n'ay'umuhondo, umwana w'umukobwa arishimye cyane.

Itsinda ry'abantu umunani imbere yabo bicaye hari amazina yabo buri wese ,imbere yabo nanone hari icupa ry'amazi na projegiteri ndetse barimo baratumbera imbere ku bintu runaka bari kwiga.

Inyubako nini cyane iri mu kibanza kinini hakaba hariho amatafari ndetse n'amabuye arundarunze, agaragaza ko ahantu hatararangizwa kubakwa hagaragaramo umugabo umwe uhagaze.

Ahantu hahuriye abantu benshi n'ingeri zitandukanye, aho ababyeyi bafite abana babo ndetse hakaba hariho n'undi muntu wambaye imyambaro itukura waje kubafasha kubagaburira.

Umugabo wambaye congo n'ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu ndetse arimo arakaraba kuri kandagirakarabe, ya gakondo n'amazi meza uyu mugabo arishimye.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye ndetse hakaba hicayemo n'umuntu waje gusaba serivisi, witeze igitambaro mu mutwe.

Abaganga ndetse n'umunyabuzima bicaye imbere, aho hari ababyeyi, abagabo, abagore n'abana bari guhabwa serivisi zitandukanye.

Umugore uvuye kuvoma mu ndobo ebyiri imwe iri ku mutwe indi ku kuboko kw'iburyo isa n'umuhondo, akaba yikenyeye igitenge ndetse yambaye n'ishati.

Amacupa arimo umuti ndetse n’udupombo dutandatu ndetse n'inshinge esheshatu, bigaragaza ko hari inkingo runaka bikoreshwa biterwa.

Umugezi wa robine uri gucaho abana b'abanyeshuri hariho umwana mutoya urimo aravoma ndetse afashijwe n'undi mugabo mukuru.

Abantu bari mu nyubako barimo barivuza indwara zo mu kanwa, harimo abantu b'ingeri zose, abagore ndetse n'abagabo.

Abana babiri b'abahungu bari mu gishanga, aba bana barimo barakaraba amazi meza arimo araturuka mu itiyo, abana kandi barishimye cyane kuko bari guseka.

Umwana mutoya wambaye ikabutura ndetse n'ishati, arimo aravoma ku mazi mabi y'imvura ku kigega, aravomera mu gikombe cy'umweru aragaragara ko agiye kuyanywa.

Inyubako isizwe irange ry'ubururu ifite imirasire hejuru, mu ibaraza hakaba hicaye abantu ndetse n'imbere yaho hakaba hicaye abantu harimo n'umudaso. Imbere nanone hakaba haparitse imodoka itukura, abo bantu barimo baraganira ku ngingo runaka.

Itsinda ry'abantu abagabo, abasore, ndetse n'abana barimo baravomera kumugezi uri mu gishanga. Uyu mugezi ni wa mugezi uzana amazi ariko ubanje gupopapopa.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bambaye iniforume bunamye ku kagezi k'akarobine gatoya barimo barakaraba intoki zabo, abana barishimye kuko bose barareba no muri kamera biteguye gufata ifoto.

Umwana w'umukobwa urimo aravoma amazi meza kuri robine, ijerekani yayiteretse mu ibase mu rwego rwo kubungabunga ibitonyanga by'amazi byagwa hasi.

Abantu bane bari ahantu mu gishanga, barimo baravoma ku mazi ava ku mugezi babanza gupompapompa.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, aho arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe n'amazi meza n'isabune. Ibi bikaba bigaragaza kugira isuku aho uri hose.

Abantu icumi, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ko ari inyubako ikorerwamo inama. Aba bantu, bahagaze biteguye gufata ifoto.

Umwana w'umuhungu ndetse n'abandi batandukanye bari inyuma ye. Arimo aravoma kuri robine ya kera, imwe bavomagaho babanje kuzamura igihombo hejuru.

Icyumba kirimo abantu babiri ndetse n'amadarapo iruhande rwabo, iki cyumba kirimo abagabo babiri, imbere biteretse amacupa y'amazi ndetse n'amakayi barimo baraganira ku ngingo zitandukanye.

Ikirango cya UNICEF kiri mu ibara ry'ubururu cyanditse mu magambo amanini n'amato, imbere hakaba harimo ikindi kirango cy'ikarita y'isi kirimo umubyeyi uteruye umwana.

Abantu batanu bagaragara bahagaze hamwe aho babiri muri bo bari kuvuga ibyabo abandi batatu muri bo basuhukanyije bari kuvuga ibyabo harimo umuzungu umwe.

Imbaga y'abantu bicaye ahasakariye imbere hakaba hagaragara abapolisi, ndetse n'abandi bo mu zindi nzego, hasi yabo hakaba hari umwana mutoya, imbere yabo bose hakaba hahagaze umugabo ufite mikoro arimo arabigisha.

Iriba riri mu gishanga ririho abavomyi benshi bamwe barangije kuhakora umuganda kuko baracyafite amasuka, umwana umwe arimo arapompera undi mwana w'umukobwa akavoma, inyuma y'uwo mwana w'umukobwa hariho abandi bana baje kuvoma.

Umugezi uri ahantu mu gishanga hitaruye, aho hari umwana w'umuhungu urimo arakaraba ukuboko kw'iburyo.

Imbaga y'abantu bari hamwe bari ahantu ku Murenge hari itente n'imodoka, bicaye bategereje service runaka, abari gutanga service bakaba bari muri iyo tente.

Umugabo ukorera ikigo kitegamiye kuri leta ya Wadi vijeni Rwanda ndetse n'abana barimo barakina imikino itandukanye ndetse abandi bicaye hasi barebera.

Ababyeyi b'abamama bafite abana babo b'impinja, bicaye ku gatebe bose hamwe umurongo umwe uko baje, bategereje ko umuganga akingira abana babo kuko baje gukingiza.

Abantu benshi bahagaze ahantu hanze bari mu gikorwa runaka, aho amatsinda abiri afite ibipapuro nkaho hari urugendo barimo cyangwa se hari ikintu bari kwamamaza.

Abantu bahagaze, umwe arimo arafotora umugabo umaze gukorera ijerekani umwana w'umukobwa, abandi bakaba bahagaze inyuma barebera.

Abana b'abakobwa batatu bari ahantu ku mugezi ndetse hari n'igiti, aba bana barimo barakaraba amazi meza, bakaraba ibiganza byabo barishimye.

Abaganga ndetse n'ababyeyi ndetse n'urwego rwa Polisi rwaje muri gahunda yo gupimisha abana, umwana w'uruhinja arimo arapimwa uburebure abandi barimo barafata amafoto.

Inyubako irimo abantu babiri umuganga ndetse n'umugabo bicaye, aho inyuma yabo hari igipapuro cyanditseho amagambo atukura ndetse n'umukara agaragaza ko sida igihari tugomba kuyirinda.

Umugabo muremure wambaye igitenge hejuru, wiyogoshesheje umusatsi wose akamaraho, arimo aravoma mu gishanga. Afite amajerekani abiri manini n'akandi gatoya. Ku ruhande hari ikindi cy'icyatsi.

Imbaga y'abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako kwa muganga aho baje gushaka serivisi zitandukanye ziri gutangirwa aho hantu hakaba hari n'itente ryubatse rihagazemo abayobozi bari kubaha izo serivisi.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri ari ku ishuri, aho ari gukaraba amazi meza yo ku mugezi, akabanza gukaraba ibiganza kugira ngo abone kunywa amazi akoresheje ibyo biganza, imbere ye hateretse indobo ijugunywamo imyanda.

Inyubako yo kwa muganga irimo abayobozi batandukanye ndetse n'abandi bicaye imbere yabo, barimo barabagezaho inyigisho zitandukanye buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Itsinda ry'abantu batandukanye, barimo abagore n'abagabo, bari guterura imifuka irimo ibigori bayivana hamwe bayijyana ahandi, abagore na bo barashoboye kuko bari guterura imifuka ya gateruwe n'abagabo.

Abantu benshi barimo umumama w'umusiramukazi uri imbere y'umuganga, arimo arakingira umwana w'uwo mugabo, inyuma hari abandi bagabo n'abayisiramukazi benshi baje muri iki gikorwa cyo gukingiza.

Itsinda ry'abantu batatu bagaragara neza n'undi umwe uri ku ruhande, aho barimo barakingirwa Korona Virus.

Abana b'abanyeshuri bari muri gahunda ya turire ku ishuri, bicaye aho buri wese afite imbere isahani ya kawunga ndetse n'utuboga twiza, dutetse neza.

Icyumba kirimo umuntu urimo arakaraba amazi meza n'isabune kuri firitiri irambitse ku meza iri mu ibara ry'ubururu.

Umugore mwiza uteruye umwana ufite igipande mu ntoki, abandi bicaye bategereje guhabwa serivisi, bicaye mu cyumba aho buri wese ateruye umwana we.

Abagabo n'abagore bari mu gikorwa runaka aho bose bambaye impuzankano y'imipira y'imweru hejuru ,bicaye batumbereye imbere yabo hariho urimo arabagezaho ibintu runaka.

Imbaga y'abantu benshi, abagore n'abagabo ndetse n'abana bahagaze imbere y'inyubako, aho buri wese yibereye mu bye. Iyi nyubako, ni inzu y'akagari.

Abantu batatu bari ku kumugezi. Umukuru ni umugore ufite n'ikijerekani arimo aravoma. Abandi ni abana barimo bararebera, haragaragaramo amajerekani abiri, barishimye cyane.

Abantu bari mu byiciro byombi abagore n'abagabo. Aba bantu bakaba bagiriwe umugisha wo kwambara impuzankano aho bose bambaye umwenda w'umweru hejuru bakaba bahuriye ku kintu kimwe. Abantu bafite umushyitsi inyuma ya bo hari icyapa cya arabisi.

Abantu bane n'uruhinja rumwe, aha harimo umugore waje gupimisha umwana we w'uruhinja, abandi bari kumusomera amabwiriza.

Inyubako irimo abantu batandukanye bari mu nama aho buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi, ndetse bakaba bari kwiga ku ngingo zitandukanye.

Iriba ry'amazi ririho abantu batanu, bane muri bo bakaba baje kuvoma ndetse umwe akaba ariwe ugurisha ayo mazi imbere ye hateretse ubujerekani bwinshi.

Inyubako nini cyane yicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, imbere yabo hakaba hari abandi babiri umugore ndetse n'umwana w'umukobwa barimo baraganira, aho umugore afite ishakoshi mu ntoki ndetse afite na mikoro arimo araganiriza umwana w'umukobwa.

Umukecuru ukuze, witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe, wambaye ishanete mu ijosi wambaye amaherena ku matwi. Umukecuru arahumirije areba imbere ye.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abantu batatu, abagore babiri muri bo bateruye abana b'impinja. Abo bantu barimo baraganiriza ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu wigunze ahantu bajugunya imyanda, uyu muntu akaba yambaye imyenda ishaje n'inkweto zishaje umusatsi wamwereyeho, uyu muntu arwaye afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugore wambaye ingutiya ndende n'udukweto duto, imbere ye hakaba hari umusambi, idirishya rifunguye, akaba yicaye asobekeranyije amaboko, bisa nk'aho ari kwitegereza ikintu runaka.

Igishushanyo kigaragaza umugabo wambaye ingofero, ndetse arimo aratekereza kure, ndetse hakaba handitse amagambo agaragaza ko kwirinda atari icyorezo.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe aho ahagaze mu muhanda rwagati, afite imifuka ndetse n'ibitebo birimo ibintu bitandukanye by'ibyanda, yambaye imyenda isa nabi kandi yacikaguritse.

Abagore babiri bicaye hamwe, harimo umuganga, undi ari umuturage usanzwe, umuganga arimo arasobanurira umugore ibintu runaka, bigaragara ko afite ibitabo ndetse n'ikaramu muntu ntoki.

Imbaga y'abantu bafite igishushanyo mu rupapuro, imbere kigaragaza igikorwa runaka, bose bahagaze bishimye.

Abantu bari mu gikorwa kimwe, bambaye imyambaro isa nk'icyatsi, ndetse n'abapolisi. Bafite igipapuro cyanditseho " Kurwanya ihohoterwa ni inshingano zanjye".

Abantu babiri harimo umumama umwe utetse igikoma ahetse n'umwana we muto ndetse n'undi mukuru ahetse, akaba yishimye cyane bose barimo barareba imbere baseka.

Umupira w'amaboko magufi utambawe ugizwe n'ibara ry'umweru ndetse amaboko agizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'ikora na ryo rigizwe n'ibara ry'ubururu, inyuma handitse amagambo asobanura ibintu runaka.

Umugore wicaye mu cyumba kirimo idirishya rifunguye ndetse n'agatebe gatoya, imbere ye hakaba hari ikirago. Uyu umugore yari yicaye yigunze cyane nk'ufite ibibazo.

Igishushanyo kiriho umutwe munini abantu babiri ku ruhande barimo arafata kuri uwo mutwe ruhande hakaba hari amagambo agaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga w'isi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo wicaye hasi ku butaka, yambaye ikabutura ndetse n'agasengeri, afite umusatsi wamwereyeho ndetse akaba yashyize igipine mu mugongo we.

Inyubako irimo abantu babiri ndetse imbere yabo bakaba bafite ibitabo hamwe n'icupa ry'amazi, umuntu umwe arimo araganirizwa ku buzima bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abagore batatu ndetse n'undi umwe uhagaze imbere yabo ufite mikoro arimo arabigisha ibintu bitandukanye bijyanye no kwita ku buzima, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Itsinda ry'abayobozi bambaye neza, iruhande rwabo ibumoso hari abambaye impuzankano y'umukara abo bantu bari imbere y'icyapa abo bantu.

Umuryango ukennye urimo umukecuru ndetse n'abana, bicaye hasi buri wese atumbiriye ku ruhande rwiwe, bamwe barishimye abandi barababaye.

Umuntu wunamye yifashe mu gahanga, ufite ikibazo, aho yahangayitse cyane, hakaba hari n'undi mukobwa uri imbere ye, arimo aramuganiriza.

Abagore bane bicaye ku gatebe ndetse n'undi mugabo wicaye imbere yabo, uwo mugabo akaba arwaye amavunja, aho yakuyemo ikirenge arimo arabereka.

Umugore wicaye ku ntebe wenyine areba mu ruhande rw'ibumoso wambaye isaha yiteze n'igitambaro mu mutwe. Uyu mugore birasa nkaho hari ikintu arimo aritegereza.

Inyubako nini cyane iri mu mumarangi asa nk'umuhondo ihagazeho imbere umugabo wambaye amarinete, inyubako ivurirwamo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Abagore batatu bahagaze bareba imbere bose, umwe muri bo akaba acigatiye umwana ari kumwonsa, bose bafite utubando mu ntoki, umwe afite igitiyo.

Abantu benshi barangajwe imbere n'umugabo umwe ugaragara nkaho akuze wishimye wambaye ishati y'ubururu, harimo n'abanyamakuru bambaye imyenda y'akazi yabugenewe na mikoro.

Umwana w’umuhungu wambaye ubusa hasi no hejuru uri mu nzu y'imbohe aho afunzwe yambaye ni,

Umubyeyi wicaye ku gasambi ndetse iruhande rwe hari inkoko na mironko irimo ibishyiyimbo ateruye abana babiri umwe ni mukuru undi ni mutoya uyu mugore yumiwe.

Itsinda ry'abantu bicaye mu ntebe bari guhabwa serivisi zitandukanye, aha buri wese imbere ye hakaba hicaye umuganga ari kumuha serivisi ndetse akatanga na raporo y'umwirondoro muri telefone hari abandi bategereje bahagaze.

Umugore mwiza wambaye agakoti ndetse n'agakanzu gatukura, ahagaze imbere y’icyapa kigaragaza ubufatanye no gukorera hamwe mu kigo nderabuzima.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi izinze, wicaye afashe mu mutwe, afite agahinda. Umwana w'umukobwa afite ikibazo mu buzima bwo mu mutwe.

Abaganga barimo barakira abarwayi batandukanye, babapima ndetse bakanabavura indwara zo mu kanwa.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umweru hejuru umwe n'umwana undi ni mukuru buri wese afite uburoso arimo arakorera isuku amenyo ye.

Umugabo urimo arireba mu ndorerwamo iri imbere ye, aho arimo arakorera amasuku amenyo yiwe akoresheje urudodo na kirida, umugabo arishimye cyane.

Icyumba kigaragaramo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, insinga ndetse n'amatibe atwara amazi yabugenewe, agakoresho muganga yambara mu matwi apima ugutera k'umuntu kw'amaraso. Intebe yo kwicaraho, televiziyo ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga igaragaza icyumba kimwe kiri mu bikoresho bitandukanye, harimo igitanda cyo kuryamaho intebe nziza yo kwicaraho ndetse n'udutako dutandukanye tw'uturabo.

Inyubako irimo umusore mwiza wishimye arimo araseka, yambaye agatambaro mu gituza ndetse iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye nka ravabo ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo abantu babiri umuganga ndetse n'umwana urwaye amenyo, umuganga arimo arakura iryinyo uyu mwana akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri umwe ni umurwayi ndetse aryamye hasi, undi ni umuganga arahagaze arimo aramukura iryinyo.

Umugabo ufite kirida y'icyatsi, ifite amenyo meza, akaba arimo arikorera amasuku mu menyo. Uyu mugabo ntabwanwa afite, arishimye cyane.

Umwana muto ufite uburoso bwiza bw'ubururu n'umuhondo ku kuboko kw'ibumoso arimo arakorera isuku ye amenyo ye, uyu mwana arishimye.

Abana batoya b'abanyeshuri, buri mwana afite agakombe ndetse n'uburoso, buri wese arimo arikorera isuku y'amenyo. Buri wese ari kwiborosa n'amazi meza ndetse na korogati.

Abantu babiri bambaye imipira isa umwe n'umugabo undi n'umwana, bose barishimye cyane bafite utudodo twabugenewe twitwa kirida dushinzwe gusukura amenyo.

Umugabo urimo araseka, wambaye agashati k'amabara ndetse n'umuganga ufatishije akuma gakorera amasuku amatwi, mu kuboko kw'ibumoso.

Umwana mutoya ufite nk'imyaka umunani, uryamye ku gitanda barimo baramuha imiti ndetse banamusuzuma amenyo.

Inyubako irimo, abantu batandatu, arimo umwana ndetse n'umwarimu urimo aramwerekera uburyo, wakorera isuku amenyo yawe, umwana afite ikibumbano kigaragaza mu kanwa.

Umugabo urimo araseka cyane afite amenyo y'umweru ndetse n'ubwanwa bwinshi, uyu mugabo yari yiyogoshesheje kuko afite agasatsi gake yambaye agapira k'ubukara uyu mugabo arishimye cyane.

Inyubako irimo umwana w'umukobwa ukiri muto, aho arimo arireba mu kirahuri afite uburoso mu ntoki arimo aroza amenyo, umwana arishimye cyane akorera isuku amenyo ye.

Inyubako irimo umukobwa mwiza, aho yiteze igitambaro mu mutwe cy'umweru, akaba yambaye n'isengeri y'umweru, afite uburoso mu ntoki bw'ubururu, arimo arakorera amasuku amenyo ye.

Inyubako yo kwa muganga igaragara neza harimo intebe eshatu zabugenewe ziryamaho abarwayi barimo baravurwa mu iyi foto nta wundi muntu ugaragaramo.

Umugabo w'igikwerere ufite ubwanwa arimo arireba aho arimo akorera isuku amenyo ye. Ari gukorera isuku amenyo ye akoresheje agati kariho urudodo kitwa kirida.

Umusaza n'umukecuru bicaye ahantu mu cyumba cya bonyine, bafite imbere yabo ibinini, umusaza arimo arereka umukecuru bose barishimye.

Abagore bicaye hamwe ari batandatu imbere yabo hari inyanya inyuma yabo hakaba izindi mbuto zitandukanye z’amaronji n’avoka aho bateze amatwi umwe muri bo arimo arabasobanurira ibintu bitandukanye.

Abantu babiri umusaza n'umukecuru ariko b'abasirimu, umusaza afite amacupa y'imiti imbere ye ndetse na terefone n'ibindi bipapuro, irindi cupa rifashe mu ntoki arimo arasoma imikoresherereza y'uwo muti, umukecuru we imbere ye hari kompiyuta.

Abantu batandukanye abagabo n'abagore bahagaze hamwe bateganye, aho babiri muri bo barimo barasuhukanya bahana agatebe ko gutwaramo abarwayi bafite ubumuga ndetse n'umusarani w'abafite ubumuga ndetse n'intebe isanzwe yo kuruhukiraho.

Abantu babiri harimo umukecuru n'umusaza bishimye cyane, umusaza arimo aranywa amazi mu kirahuri umukecuru avuye kumuzanira, uyu ni umuryango wishimye cyane.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa hejuru nk'umweru, bose bafite amacupa mu kuboko, uw'imbere agafite mu kuboko kw'ibumoso, uwo hirya agafite mu kuboko kw'iburyo. Barishimye cyane bavuye muri siporo.

Umusaza wicaye m'ibase yo kogeramo umusaza arimo aruhagirwa n'umukecuru we amazi meza ndetse n'isabune.

Umusaza wicaranye n'umuntu utagaragara aho tubona umugongo wonyine, umusaza arishimye cyane arimo arasobanurira uwo muntu uko bakoresha imiti.

Itsinda ry'abagore, ndetse n'abagabo, bakeya bari mu muririma uhinzwemo ibigori ndetse n'ibindi biribwa aho bishimye cyane bashyize amaboko hejuru barimo baraseka.

Umusaza ukuze cyane, aho yicaye mu kagare kamufasha kugenda, imbere ye hakaba hari umukobwa umufasha mu mibereho ya buri munsi, amufashe ukuboko k’uburyo arimo aramuhumuriza.

Abantu babiri umwe ni umukecuru undi ni umugore ukiri muto barimo barihuta bakora siporo, umukecuru yiteze igitambaro mu mutwe ibi ni gahunda yo kwita no gufata neza abafite imyaka yo hejuru.

Umusaza wicaye ku gatebe ndetse n'abuzukuru be bari iruhande rwe, barimo bararya ibintu bitandukanye nk'imigati ndetse n'amata.

Umusaza n'umukecuru bicaye aho imbere yabo hari imiti y'ibinini yo kunywa, ikirahuri cy'amazi ndetse umukecuru arimo arasobanurira umusaza ko agomba gufata iyo miti.

Inyubako irimo abantu babiri umusaza urimo aratozwa kugendera ku nsimburangingo zabugenewe n'umuganga urimo aramwerekera.

Umusaza wambaye rinete ufite n'ikaramu uri gusoma igitabo, uyu musaza yifashe ku kananwa asa nk'aho yumiwe, akaba nanone yambaye ishati itukura.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza barimo bararya bishimye, barimo bararya indyo yuzuye igizwe n'imboga n'imbuto ndetse n'akaji ko kunywa.

Umuryango wishimye ugizwe n'umukecuru n'umusaza bicaye muri saro; aho umukecuru arimo arasukira umusaza akaji mu kirahure; umusaza arimo ararya indyo yuzuye ziteretse imbere ye.

Abantu batatu barimo abato babiri ndetse n'umusaza. Uyu musaza afite ikibazo aho kugira ngo abashe kugenda ari uko afashwa. Aba bana be babiri barimo baramufasha kugenda binamufasha kugorora amaguru.

Abantu batandatu bishimye, abasaza ndetse n'abakecuru ndetse n'abakiri bato n'abana bato. Barishimye cyane, aho ari umuryango ukomeye.

Umusaza wicaye ahantu ha wenyine hatuje, yifashe mu gahanga imbere ye hari ibitabo byinshi, aho ari gusoma buri kimwe.

Abantu babiri umukecuru ndetse n'umugore, umugore w'umuganga, umukecuru afite igikombe k'ikirahure cy'amazi, umuganga arimo aramuha ikinini ngo abinywe.

Abagabo babiri, umusaza n'undi ukiri muto, aho barimo barakina umukino wo kugorora amaboko, umusaza ari gukurura ndetse n'undi agakurura kugira ngo harebwe uri burushe undi imbaraga.

Umusaza uri mu zabukuru, wicaye ku gatebe ka palasitike ndetse n'umuganga urimo aramwitaho, apfukamye amufungira ibipesu by'ishati.

Umusaza uri ahantu hitaruye ufite imvi, wambaye amadarubindi ,mu maboko ye yose akaba ateruye utwuma twabigenewe dukoreshwa muri siporo.

Abantu babiri, umusaza n'umukobwa, aho umusaza arwaye umukobwa w'umuganga akaba ari kumufasha kugenda, kumukoresha siporo aho ari kugorora amaguru.

Abantu benshi bari mu byiciro bitandukanye abagore n'abagabo hamwe n'abasaza bari ahantu hasakariye aho hari umuntu uhagaze hejuru yabo uri kubaha ibintu runaka.

Umukecuru w'umusirimu wicaye iwe muri saro, arimo ararambura amaboko ndetse akarambura n'amaguru. Nta gikorwa cya siporo aragaragaramo intebe zo kwicaraho ndetse n'agakeka yarambuye yicayeho.

Umusaza n'umugabo bari ahantu mu kayira keza, aho bari kugenda batera intambwe ku yindi bishimye. Umusaza ni mugufi yambaye ingofero, undi na we, bigaragara ko ari umugabo ukuze.

Umusaza n’umukecuru bicaye muri salo kumeza manini aho imbere yabo hari ibipapuro byinshi, umusaza yambaye rinete afite na telefone mu ntoki, arimo arasomana n'umukecuru urupapuro rumwe.

Umubyeyi w'umugabo ndetse n'umwana w'umukobwa mutoya barimo barakina umukino uzwi ku izina rya rugubi, uyu mukino uri gukinwa aho umwana ariwe ufite balo mu ntoki.

Umukecuru n'umusaza bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza, umusaza ari kwereka umukecuru ikintu runaka, bose barishimye.

Umusaza n'umukecuru bose biteze imikenyero, umukecuru akaba yambaye igikomo mu ijosi ndetse no ku kaboko, bakaba bicaye muri tente iri kuberamo imisogo y'ubukwe.

Inyubako irimo abantu b'ingeri zitandukanye, abakecuru n'abasaza abagabo n'abagore ndetse n'abana, aho bishimye ndetse barimo baraganirira hamwe.

Inyubako irimo umusaza uryamye kwa muganga yambaye imyenda y'umweru ndetse afite ubwanwa bw'umweru, uyu musaza iruhande rwe hari umuganga urimo aramwitaho.

Abagore babiri, umukecuru n’umukobwa bose bafite imisatsi mike, umukecuru akaba yambaye amarinete arimo aracyeka imboga zitandukanye n'inyanya ndetse n'imbuto.

Icyumba kirimo abantu babiri, umusaza ndetse n'umukobwa w'umuganga, uyu musaza yambaye rinete n'agashati gatukura, umuganga yambaye imyenda yabugenewe, afite akuma agiye gupima umusaza.

Umukecuru mwiza w'inzobe ufite umusatsi w'umweru, afite utwuma tubiri dukoreshwa duterurwa muri siporo, arimo araseka cyane arishimye.

Icyumba cya salo kirimo abantu babiri umukecuru ndetse n'umuganga umukecuru yicaye mu kagare agenderamo ndetse umuganga afashe ukuboko kwiwe kw'iburyo arimo aramupima.

Ibishushanyo bitandukanye bigaragara ku gishushanyo, ndetse hakaba hariho n'amagambo atandukanye, harimo ibara ry'umweru hagaragaza ko ugomba kwirinda indwara zitandukanye zibandwemo kanseri.

Ingazi igaragaza intera iri hagati y'ibintu bimwe n'ibindi, aho igizwe n'ingazi cyangwa se ibyiciro bitanu, kuva ku cyiciro cya mbere kugeza ku cya nyuma.

Itsinda ry'abagore icyenda bicaye bateye umugongo inyuma, abagore bicaye barimo barareba imbere yabo umuntu urimo arabigisha ibintu bitandukanye.

Umugore ufite mikoro wambaye baji, ufite igitabo wicaye ku ntebe nziza, bisa nkaho arimo arabwira abantu ibintu runaka.

Abagabo babiri bari mu cyapa kigaragaza kugira ubuzima bwiza ku Isi hose, by'umwihariko muri Afurika y'Uburasirazuba. Abagabo bakaba bambaye amakositime y'umukara.

Igishushanyo kirimo abagore bane barimo baraseka bishimye cyane, hejuru hakaba hari amagambo agaragaza ko ari igikorwa cyo kurinda Kanseri.

Abantu batandatu ndetse n'undi umwe utagaragara neza, abagabo ni batatu n'abagore ni batatu, bahagaze imbere y'igishushanyo kiriho ikirango cya Minisiteri y'ubuzima.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umweru icyatsi, bururu ndetse n'umutuku ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara igaragaza ko hari umunsi wahariwe gukuramo inda.

Itsinda ry'abantu batatu b'abamaseri ndetse n'umugabo umwe aho iruhande rwabo hari ibirango bya minisiteri y'ubuzima bigaragara mu ibara ry'ubururu.

Igishushanyo kigaragaza ibiryo n'imbuto bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Hagaragaramo imbuto, inyanya, karoti n'ibindi nka voka.

Uduce dutandatu turimo abantu bari gukora ibintu bitandukanye, harimo abari hejuru ku mirasire, undi uri mu mirima, abaganga bari mu byumba bitandukanye ndetse n'undi mugore wibereye muri gahunda ze.

Icyapa kigaragaza kwitabwaho ku indwara zo mu mutwe ndetse n'abazirwaye kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe, ndetse n'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri.

Icyapa kirimo abantu babiri, umukuru n'umuto, umuto yishimiye kubona umukuru, umukuru ni umuganga arimo aramuganiriza ibyiza bitandukanye.

Ishusho igizwe n'amagambo y'impene, ijambo rya mbere ni H, irya kabiri ni ibiganza bibiri bifatanye, irya gatatu ni R, ibi bikaba bivuze ngo Health People Rwanda.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume bicaye hamwe ndetse bari kumwe n'umubyeyi wabo w'umumama imbere hakaba hari umugabo urimo urabaganiriza.

Abagabo babiri bambaye amakositimu bose ari mu ibara ry'ubururu. Bakaba barimo barasuhuzanya, abagabo bose bafite ibitabo mu ntoki zabo.

Abagore n'abakobwa bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bose bahanze amaso imbere ku muntu urimo arabigisha. Bariga ibintu byiza cyane kuko barishimye bose.

Imbaga y'urubyiruko bambaye imyenda y'umweru, abenshi hejuru bafite icyapa imbere, kigaragaza ko urubyiruko rugomba kwirinda indwara ya virusi itera SIDA, kuko ari rwo, ari zo mbaraga z'ejo.

Inyubako ndende igeretse yubakishije amabuye y'amakoro, imbere hariho abantu baje gushaka serivisi zitandukanye kuri iyi nyubako nanone hari indabo nyinshi cyane nk'imitako.

Inzu y'ivuriro ifite imiryango ibiri itandukanye. Farumasi yitwa Iraguha, umuryango umwe haragaragamo abantu mu gihe undi nta bantu bagaragaramo.

Inyubako ndende cyane, aho harimo abanyabuzima n'abandi bambaye imyambaro y'ubururu. Imbere hakaba haparitse imodoka ndetse hari n'icyapa cya USIAD imbere kuri iyo nyubako.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse afite na telefone mu mufuka w'inyuma ari mucyumba kiri mu nyubako y'ibitaro aho harimo ibitanda ariko bitariho abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga irimo amabara y'umweru, haryamyemo umugore w'umurwayi uryamye ku gitanda, iruhande rwe hariho ibikoresho bitandukanye nk'insinga ndetse n'amateleviziyo n'ibindi byinshi.

Farumasi nziza cyane kandi nini irimo amatara abiri hejuru ,imbere hakaba hari agatebe kicarwaho n'umurwayi uje gushaka serivisi muri iyi farumasi nta foto y’umuntu igaragaramo.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo ndetse yanditsweho amagambo y'ubururu agira ati inzu y'ababyeyi materinite, imbere hahagaze abagore bane b'abaganga bambaye imyenda yabugenewe y'akazi.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, yaba ibiryamirwa, ibyicarirwa ndetse n'ibifasha abantu gukora siporo, iki cyumba nta muntu ugaragaramo.

Inyubako iri ahantu hitaruye ifite ibimera ndetse na pasiparume hanze. Iyi nyubako iri ahantu heza hari ikirere cyiza cy'ubururu n'igicu cy'umweru, irazitiye cyane ku buryo ntawabona aho aca.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, ibitanda byo kuryamaho ndetse n'ibindi binyuranye.

Ikirere cyiza ndetse n'inzu igeretse inshuro ebyiri imbere haparitse imodoka hari abantu bane ndetse iyo nzu isize ibara ry'uburu.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'icyuma bacishamo abarwayi ndetse n'ibindi by'ibiryamirwa ndetse n'utubati.

Inyubako Iri ahantu hitaruye imbere yayo hakaba yicaye abantu babiri ndetse bafite utwana tukiri duto iyi nyubako ikaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima cya Shangasha.

Inyubako yo kwa muganga irimo imitako itandukanye nk'ibipurizo ndetse n'ibindi, hari intebe zabugenewe hicaraho abategereje, imbere hari igishushanyo cy'ijisho.

Inzu y'isuzumiro igaragaramo icyumba cy'abaforomo, ikagaragaramo amabara y'umweru n'amarange y'umweru, hirya hari ibitanda abarwayi baryamaho ariko ibyo bitanda nta murwayi ubiriho ndetse nta muntu ugaragara muri iki cyumba.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umweru, bose hejuru ndetse abenshi muri bo bambaye imikara hasi, bari kuri gahunda imwe, bagiye kwinjira mu nzu bose bafite udutebo mu ntoki.

Inyubako irimo abantu batandukanye bahagaze bambaye udupfukamunwa hose ndetse bakaba batumbereye imbere yabo, inyuma yabo hakaba hari ikigo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu nkayabasange wani sitopu senta Kabutare.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, n'igitanda ndetse n'aho bacishiriza umuntu mu cyuma, hejuru hari za vandarateri ebyiri.

Inyubako yo kwa muganga igaragaza icyumba kimwe abarwayi baryamamo iki cyumba hakaba harimo ibitanda byinshi bigera kuri bine, aho nta gitanda kiryamyeho umurwayi.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuganga umwe ndetse imbere ye hari igikoresho gikoreshwa bacisha umuntu mu cyuma, uyu muganga harimo haracisha umuntu umwe mu cyuma.

Inyubako nini cyane irimo amakaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, itatsemo indabo, imbere hari taburo yanditseho amagambo agaragaza ko iyi nzu ikorerwamo siporo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, nk'intebe z'imifariso zifite n'amapine ndetse n'ibindi bishushanyo bitandukanye bitatse mu nzu, hari kandi isaha nini yabigenewe yomekwa ku nkuta.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, igikoresho kirimo kinini ni igikoresho umurwayi aryamaho igihe bagiye kumucisha mu cyuma, harimo kandi muri iki cyumba isaha nini imanitse hejuru.

Inyubako ndende cyane iri mu mabara y'ivu ndetse n'umutuku, ukaba wanditse amagambo aranga ko iyi nzu haberamo ikigo gishinzwe kurwanya indwara zandura ku matungo no ku nyamaswa no ku bantu.

Inzu yo kwa muganga irimo umurwayi aharyamye ku gitanda ndetse n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe arimo aramwitaho.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho ndetse n'imiti itandukanye harimo amadarubindi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye hicayemo umuntu umwe ndetse n'umuganga wo kumwitaho.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bitatu, aho buri gitanda kiri cyonyine nta murwayi n'umwe uriho, ariko hari igitanda kimwe kiriho imashini ipima umurwayi.

Inyubako nziza cyane iri ahantu heza, igaragaza ikirango kivuga ko ari ikigonderabuzima cya Tabagwe. Hari abantu benshi baje kwaka serivisi zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byo kwita ku barwayi, nk'ibitanda ibyo kwiyorosa ndetse n'ameza n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ndende cyane, imbere hari ubusitani ndetse n'indabo n'imikindo, hakaba hejuru handitse amagambo mu ibara ry'ubururu, bigaragaza ko aha ari ho havurizwa abarwayi bo mu mutwe.

Inyubako ndende cyane igeretse aho igaragaza ko iyi nyubako iberamo ivurwa ry'impinja ndetse n'ababyeyi.

Inyubako ya kwa muganga irimo umuhanda uciye hagati y'amazu, wubakishije amapave ndetse n'ubusitani bwiza, muri iyi nyubako nta muntu n'umwe ugaragaramo.

Inyubako yitaruye imbere yaho hakaba hari umwana mutoya wicaye mu kagare ndetse akagare agenderamo. Ari ahantu baterera ku buryo atabasha kuhizamura, imbere ye hari undi mwana aho yagiye akamusiga.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe n'amakaro ndetse irimo ibikoresho bitandukanye, hejuru hari rangete ndetse na za kamera, iyi nyubako nta muntu n'umwe uyigaragaramo.

Abantu batanu harimo abagore bane banini ndetse n'umugabo umwe munini, aba bantu bakaba bambaye neza cyane, aho bose bishimye bari kumwenyura.

Inyubako iriho amazu menshi ndetse n'abantu bari muri iyo nyubako, imbere nanone hari icyapa cyanditseho ko ari ibitaro bya kabgayi biherereye mu majyepfo.

Inyubako ifite igipangu kirekire cyane imbere yaho hakaba hahagaze umugore urimo urahoza umwana, iyi nyubako hakaba handitseho amagambo atukura agira ati Kigina helifu senta.

Abantu bicaye abandi bahagaze, aho bategereje serivisi zitandukanye, ku bitaro haragaragaramo abana bato ndetse n'abakuru. Nta muganga uri imbere yabo ngo abahe serivise.

Inyubako yo kwa muganga itagaragaramo umuntu n'umwe, haragaragara amatara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'imiryango yewe ndetse n'umuryango wo kwiherera.

Inyubako iri ahantu heza, hari ikirere cyiza ndetse n'igicu kimeze neza, inyubako igeretse iriho amatara meza imbere n'inyuma, nta muntu n'umwe ugaragara kuri iyo nyubako.

Ibikoresho byo mu nzu mu cyumba cyabugenewe bikoreshwa hakorwa siporo, aho umuntu aba yirukanka, ibindi umuntu aterura ibindi umuntu asunika.

Abantu batonze umurongo mu nyubako runaka, aho bari kwaka serivisi zitandukanye ndetse undi umwe akaba yicaye mu kagare nawe ari imbere y'abagiye kumuha serivisi.

Inzu ndende cyane ifite icyapa hejuru kigaragaza ko ari pharmacy, iherereye i Kanombe yitwa Mediasol, muri iyi nyubako hakaba harimo abantu mo imbere.

Inyubako yo kwa muganga iririmo umuntu uryamye ku gitanda, akaba yishimye cyane. Iruhande rwe hariyo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, utubati, ndetse harimo n'abaganga bicaye n'abahagaze barimo barakora ubushakashatsi runaka.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye amarido, ibitanda byo kuryamaho televiziyo ndetse iyi nyubako nta muntu uyigaragaramo, inyubako isizwe amarangi y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batandukanye harimo n'abazungu babiri hakaba hari igitanda kiryamyeho umuntu n’abandi uw'imbere akaba ari umugore uri kwerekeza mu kindi cyumba.

Ibuye fatizo ry'ibitaro bya Butaro, iruhande rw'aho hakaba hari abantu bishimye, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Ibi bitaro niho havurirwa indwara, nka kanseri n'izindi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, ikaba isizwe amarangi y'umweru, muri ibi bikoresho hakaba harimo: ameza, intebe n'utubati za kamera ndetse na televiziyo.

Inyubako y'ivuriro aho ni muri kodoro, nta muntu n'umwe urimo, harimo umuryango wa mbere ni icyumba basuzumiramo.

Inyubako yo kwa muganga igaragaza icyumba kimwe kirimo abantu batandatu, abo bantu hakaba harimo abaganga, abaforomo ndetse n'umurwayi. Hariho nanone igitanda ariko nta murwayi ukiryamyeho.

Itsinda ry'abantu bahagaze imbere batagaragara neza, aho iyo nzu ari inzu ya farumasi iberamo kuvurizwamo, hakaba hariho amagambo atukura hejuru yanditse ko bakorana na mituweli, medi pulani, misiyu ara n'ibindi.

Inyubako ndende cyane igeretse, imbere hari abantu batatu no mu imbere no hanze hari abandi bantu batatu, mu imbere harimo abaganga babiri ndetse n'undi umwe uhagaze.

Inyubako y'ivuriro rigaragaramo umuganga umwe arimo aratambuka iyo nyubako ikaba yanditseho ko ari icyumba cya broke ya mbere ari broke ikorerwamo ababyeyi bagiye kubyara.

Inyubako iririmo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imitako y'indabo irambitse ahantu hasi. Iyi nyubako imbere hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, avuga ko siporo ari ingirakamaro.

Inyubako ndende cyane iriho icyapa kigaragaza ko iyi nyubako ishinzwe kuvura amaso ndetse ari ho umushinga wo kuvura amaso wakomotse.

Inzu y'amatafari ahiye afite inzugi z'umweru za metarike, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agira ngo isange wani sitopu senta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abaganga babiri bahagaze, bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imyambaro ya kiganga. Umwe muri bo yambaye amarinete. Bahagaze imbere y'icyuma, bari kurebamo ibintu runaka.

Inyubako nini cyane igaragaza ko iyo nyubako iherereye, ari iy'ibitaro bya gihundwe hakaba hari ibyapa bitandukanye bigaragaza ko iyi nyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso.

Inyubako yo kwa muganga, irimo umuganga ndetse n'umurwayi, aho umuganga yunamye ashyize agapimo k'umurwayi arimo arumviriza.

Umugabo wicaye ahantu kuri esikariye hejuru munsi y'igiti, hari akuka keza ndetse n'ikirere cyiza, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro.

Inyubako yo kwa muganga igeretse iri ahantu hitaruye, imbere hari abantu bashinzwe gukora amasuku bafite indobo zabugenewe.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye; intebe, ameza ndetse n'igitanda. Aho igitanda kimwe kiryamyeho umurwayi, iruhande rwe hakaba hari umugabo urimo arazinga supanete irimo kumwitaho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kivurirwamo abarwayi ndetse kikaba ariho bacisha abarwayi mu cyuma, hari ibikoresho byabugenewe ndetse hari na za kamera na vandarateri.

Inyubako ya farumasi irimo ibikoresho bitandukanye ndetse hejuru hakaba hamanitse ibirahuri cyangwa se indorerwamo za remweti z'ubwoko bwose, hasi hari ibishushanyo by'abantu bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu barimo barasohoka, abandi binjira imbere hakaba haparitse imodoka eshatu nziza.

Abantu bane bari imbere y'inzu z'ibyatsi muri abo bantu harimo umuganga umwe wambaye mu ijosi agakoresho gatuma yumva gutera k'umutima iruhande rwe hari umukobwa ufite inda ndetse n'abana babiri bicaye umuganga arishimye kuko arimo araseka.

Ibitaro birimo ibikoresho bitandukanye nk' ameza, furate, televiziyo ndetse n'ibindi. Ibitaro nta muntu n'umwe ugaragara muri iyo foto.

Umuganga yicaye mu icyumba cyabugenewe aho arimo arapima ndetse anareba umuntu umwe mbere. Arabireba kuri ekara iri imbere ye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo ibipima umuntu indwara zitandukanye arwaye harimo nanone ibipuberi byinshi hakaba harimo isaha y'umutako.

Ivuriro ririmo ibikoresho bitandukanye. Intebe, ameza, telelevisiyo, purojegiteri ndetse na za komputer nyinshi n'udutabo two gushyiramo imyanda. Iyi foto nta muntu ugaragaramo.

Abanyabuzima bari mu ngeri zombi abagore n'abagabo, bari kumwe n'umusirikare ndetse n'uwihayimana, bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi yanditseho materinete, ngo yanditse andi magambo ko yubatswe ku bufatanye na inabei Rwanda.

Icyumba kirimo abaganga ndetse n'umurwayi umwe wakomeretse ukuguru, uyu murwayi yakomeretse ukuguru kw'iburyo bamuhaye ibikoresho byo kukamanikaho byabugenewe.

Abantu babiri barimo baritanaho aho umwe yicaye undi akaba arimo aramuzirika ku kuguru uyu wicaye yakomeretse cyangwa se yavunitse ukuguru kwe kw'iburyo.

Ibishushanyo bine bigaragaza imikorere ya siporo itandukanye, hariho kwicara urambuye amavi, kurambura amaboko, kugorora ibiganza ndetse no guhina ukuguru.

Umuntu uri muri siporo yunamye, aho arimo aragorora umubiri, yambaye agakabutura ndetse n'udukomo dutanu ku kuboko kw'ibumoso.

Umugore wicaye hasi, uri muri siporo, wambaye kora y'umutuku n'agasengeri hejuru, arimo arananura ibirenge, byambaye amasogisi y'umweru.

Abagabo babiri bagaragara neza aho umwe aryamye undi akaba ahagaze, uwo uryamye ku gitanda yagize ikibazo ku kuguru kw'ibumoso ubwo yarari muri siporo, uyu uhagaze akaba aramukandisha pomade ku kuboko k'ukuguru kw'ibumoso.

Abantu babiri bari mu nyubako imwe yo kwa muganga; umwe ni umurwayi akaba aryamye ku gitanda undi ni umuganga akaba ari hejuru yiwe, umurwayi aryamye yubamye aho umuganga arimo aramuvura indwara mu mugongo.

Urutonde ruriho imikino itandukanye ndetse n'abantu batandukanye, twavuga ko hariho umugore wicaye hasi, umugabo uri guhabwa ikarita, imikino yo guterana imigeri ndetse no guterana amakofe.

Umugorere uvuye muri siporo, hanyuma akurikizaho kunywa amazi, akoresheje icupa aba yayitwayemo. Umugore afite umusatsi muremure, yambaye agasengeri kabugenewe.

Umugabo ukuze wambaye agapira gasa nk'icyatsi, ufite balo mu ntoki iriho nimero kane, akaba avuye gukora siporo, umugabo arishimye cyane.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri, aho umwe muri bo w'umukobwa yagize ikibazo akavunika mu ivi, undi arimo aramwitaho amuhambiraho za bandi.

Abantu babiri bari mu ishusho y'uruziga, abantu barimo barakirana nka siporo, uyu akaba ari umunsi wizihizwa mu Rwanda, umunsi mpuzamahanga wa siporo.

Abantu babiri harimo umuganga ndetse n'umurwayi umuganga ni umugore, umurwayi akaba umugabo. Uyu murwayi ubwo yari avuye muri siporo yagize ikibazo avunika ukuguru kw'iburyo umuganga arimo aramwitaho.

Umugabo ukuze wambaye impeta mu kuboko kw'iburyo mu rutoki rwa gatatu ndetse akaba yambaye n’agakomo muri uko kuboko uyu mugabo arimo arikanda ukuguru kuko avuye muri siporo yavunitse.

Umuganga uri kumwe n'umusore w'umurwayi, wagize ikibazo cy'ukuguru akavunika, yicaye ku ntebe yabugenewe, arimo aramukoresha siporo mu rwego rwo kugorora uko kuguru.

Umuntu urimo arakora siporo iruhande rwe hari imbuto zitandukanye: imineke, indimu, amarongi, ibitunguru, pome n'ibindi.

Inyubako irimo abantu babiri umusaza ndetse nu muganga umusaza afite igitambaro mu ntoki arimo arakora siporo agorora umubiri abifashijwemo na muganga.

Umuntu wicaye hasi kuri tapi, aho ari gukora siporo agorora amaboko yombi, imbere ye harambitse kompiyuta, iruhande rwe hakaba harambitse icupa ry’amazi ndetse n'utundi dukoresho baterura.

Umugabo uvuye muri siporo, yakomeretse ukuboko kw'iburyo, akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'umweru, akaba afite agatambaro kabugenewe aho arimo arikanda.

Umukobwa wicaye kuri tapi, imbere ye hari mudasobwa, iruhande hari icupa ry'amazi, n'udukoresho bakoresha baterura, ari muri siporo aho ari kwigorora.

Umusore mwiza uvuye muri siporo, wambaye agapira k'ubururu, wambaye isaha mu kuboko ku iburyo, yambaye kandi ekuteri mu matwi, afite icupa mu ntoki, mu kuboko kw'iburyo arimo aranywa amazi.

Umusore w'igikwerere wambaye ishanete mu ijosi, agapira k'ubururu ufite n'ubwanwa, arimo aranywa amazi meza kuko avuye muri siporo.

Ibinika ndetse n'igikombe cy'ikirahuri, aho amazi ari gusukwa muri icyo kirahuri. Hagaragara ko iyo binika ifashwe n'umuntu.

Abagore baryamye ahantu n'abana babo, aha baryamye ni kwa muganga, umwana araseka cyane nk'uwishimye bigaragara ko yakize.

Inyubako irimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse bipfutse mu mitwe, aho barimo baratumbera kuri tereviziyo bose bahabwa inyigisho.

Umusore umwe wagize ikibazo agakomereka ukuboko kw'iburyo, aho arimo arikanda akoresheje agatambaro kabugenewe n'amazi meza.

Inyubako irimo abantu babiri umwe wicaye undi uhagaze aho uwicaye w'umugabo yagize ikibazo agakomereka ukuboko kwe kw'iburyo akaba arimo aritabwaho.

Igikapu gitukura kigizwe n'utwesekariye, aho buri kumba harimo ubwoko butandukanye bw'imiti, hari utwumba turimo inshinge, utundi tukabamo na sanitayiza ndetse n'impapuro z'isuku.

Inyubako yo kwa muganga irimo igikoresho abarwayi baryamaho igihe bagiye kubacisha mu cyuma, iyi nyubako nta muntu n'umwe uyirimo.

Umugore urimo arakora siporo yicaye, arakorera ahantu hatuje cyane kuko nta wundi muntu uhari. Arimo aragorora amaboko n'amaguru, yambaye kuteri mu matwi.

Igishushanyo kigaragaza igiciro ndetse n'umumaro w' igikoresho kigufasha gukuraho inda. Iki gikoresho kikaba kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri.

Agakoresho bakoresha baterura abantu bagize ibyago kaba kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi magambo ahanditse mu cyatsi arufa sipoti.

Uducupa dutatu tugaragaramo imiti itandukanye, iyo miti ivura indwara zitandukanye ndetse nko kubabara imitsi ndetse n'umugongo.

Inzu irimo ibitanda byinshi, buri gitanda hakaba haryamyeho umuntu. Buri muntu barimo baramukanda mu mugongo ndetse n'ahandi afite imvune. Buri gitanda gifite umuntu ushinzwe kwitaho abakiryamyeho.

Umukobwa mwiza cyane, wambaye akajire hejuru ndetse n'agakora hasi. Aryamye hasi kuri tapi yashashe kugira ngo ayikorereho siporo. Arimo arigorora cyane. Iruhande rwe hari amavaze arimo indabo.

Umusore w'igikwerere umusiporutifu uvuye muri siporo akaba yifashe ku mutwe ari kugorora amaboko, yambaye agasengeri ndetse n'isaha mu kuboko k'ukumoso.

Ibikoresho bitandukanye harimo telefoni nini n'intoya, udukapu two kuzitwaramo, porojegiteri n'ibindi, harimo umugore uri gukoresha telefoni itagendanwa, ni umuzungu.

Icupa ry'amazi ndetse andi mazi ari ku ruhande arimo arameneka, amazi asa neza cyane kandi amazi ni ubuzima, icupa ripfundikiye neza cyane ku buryo nta mazi yameneka.

Ubwoko bw'imipira ikoreshwa mu mikino itandukanye. Harimo: umupira w'amaguru, umupira bita rugubi , tenisi ndetse n'indi yo kwirukanka.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo gants zo kwambara mu biganza imikasi n'impapuro ndetse n'udukapu dutwarwamo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga amapopo ibinini n'ibindi byose.

Ibibiribwa bitandukanye biri hamwe harimo: inkeri, ubunyobwa, indimu, ironji, ndetse n'imboga zitandukanye, iruhande hakaba ikirahuri kirimo ji ndetse n'amazi, hakaba nanone ikintu baterura bakora siporo.

Imbaga y'abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze kumapave barimo barakora siporo. Aba bantu barishimye cyane.

Icupa ry'amazi meza ndetse riri mu kiganza cy'umugabo, ikiganza cy'iburyo, arimo ararigaragaza nk'ikintu gifasha umuntu mu mibereho ya buri munsi ndetse amazi ni ingenzi cyane, kuko atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantutu bicaye hamwe, abandi bahagaze, abandi bapfukamye aho imbere yabo hari umuzungu ndetse nu mumaseri bafite umwana hagati.

Umugore wambaye ekuteri mu matwi. Ufite imisatsi ya natireri, wambaye isengeri afite na terefone ku kuboko, ari kunywa amazi avuye muri siporo.

Ibinika ndetse n'ikirahuri, aho ibinika ifashwe n'ikiganza, irimo irasuka amazi meza muri icyo kirahuri. Ikirahuri ntabwo kiruzura mu gihe ibinika ikirimo amazi menshi.

Igishushanyo cy'uruziga kigizwe n'abantu, ikiganza ndetse n'agasaraba ko guteranya kari mu ibara ry'umutuku, umuntu arimo kuko ari kwirukanka akora siporo undi arimo aryamye hasi.

Abaganga bahagaze ahantu hamwe, barimo barasobanurirwa ibintu runaka kuri televiziyo. Bahagaze barimo barasobanurirwa n'umugore uri imbere yabo.

Abantu benshi bahagaze baje gusura umurwayi ufite ikibazo cy’ukuguru kw'iburyo aho yakumanitse hejuru ku byuma byabugenewe.

Abantu babiri umwe uryamye undi ahagaze. Uhagaze ni umuganga arimo aragorora ukuboko kw'ibumoso k'uwundi uryamye.

Akagare kabugenewe gashinzwe gu gusayidira abantu badafite intege zo kugenderaho ndetse inyuma gafite amaboko umuntu afataho asunika.

Ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye kirimo abantu babiri, umwe arimo aragendera ku mbago, undi akaba akaba afite baro mu ntoki.

Agakoresho gafite imitwe ibiri hejuru, ijya mu matwi y'umuganga ndetse n'akandi hasi kameze nk'agasahani arambika ku mutima w'umurwayi kugira ngo yumve niba agihumeka uko bikwiriye.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo siporo kirimo umugabo urimo arirukanka, wambaye agapira k'agasengeri ufite umusatsi muremure n'umugore uri hakurya urimo aramureberera.

Ibikoresho bitandukanye biri ahantu mu nyubako yo kwa muganga, birambitse ku meza, muri ibyo bikoresho harimo akuma muganga yambara mu matwi gapima gutera k'umutima ndetse n'izindi ntebe n'ibindi bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye n'ibyo kwicaribwa, ibyo kuryamaho ndetse n'ibindi.

Insimburangingo yambarwa mu gice cy'ukuguru kw'iburyo, aho kimeze nk'igikweto kinini cyane kiri mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri bambaye imyenda ya kuruwaruje itanga ubutabazi bw'ibanze bateruye umurwayi wagize ikibazo akavunika amaguru.

Abantu babiri harimo umugabo n'umugore, umugore ni umuganga yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, umugabo arimo arakora siporo aterura udukoresho twabugenewe kugira ngo amaboko abyimbe.

Abantu babiri harimo umurwayi umwe uryamye ku gitanda, n'umuganga urimo aramukanda mu ivi. Uyu muntu uryamye yavunitse, aho ukuguru kw'iburyo kwabyimbye cyane.

Abantu babiri, umwe ni umuganga undi akaba ari umurwayi wavunitse ukuguru kw'iburyo, aho uyu muganga arimo arita ku mvune uyu muntu yagize.

umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ya siporo arimo arakora imyitozo mu nzu mucyumba cye wenyine kirimo imitako itandukanye nururabo akaba yamanitsejwe hejuru.

Umugabo ukuze urimo aranywa amazi mu gacupa akoresheje ukuboko kw'iburyo, umugabo avuye muri siporo akurikizaho igikorwa cyo kunywa amazi.

Abakobwa babiri bambaye imyenda yabugenewe bari muri siporo, bose bafite amacupa y'amazi banywa igihe bari muri siporo, abo bakobwa barishimye cyane.

Ibikoresho byo kwa muganga, harimo za ga zo kwambara mu kiganza, sanitayiza yica udukoko, korogati ndetse n'igipima umuriro.

Igishushanyo kiriho ibinini bitandukanye iby'umweru ndetse n'iby'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru agaragaza ko siporo ari ingenzi.

Umuganga uri mu cyumba cya wenyine, ahagaze asobanura ibintu runaka, afite kasike mu ntoki, imbere ye harimo ibirinda, ibizimya umuriro.

Ishusho igaragaza ibikoresho bitandukanye, umuntu yifashisha kugira ngo agire ubuzima bwiza. Hagaragaramo imbuto ndetse n'amazi hakiyongeramo ibikoresho bifasha umuntu gukora siporo.

Inzu yubatse mu mbaho, aho harimo umukobwa mwiza cyane wicaye ku gatapi k'ubururu, uyu mukobwa arimo arakora siporo aho ari kunanura umugongo afata ku maguru n'intoki ze.

Farumasi irimo imiti itandukanye ipanze igerekeranye iri mudurito, iyi farumasi nta muntu uyirimo.

Igishushanyo kigaragaza ko ariho habera fiziyoterapi, hagaragara abantu bicaye ku tugare, abantu bakomeretse n'abandi.

Ibikoresho bitandukanye harimo ameza, intebe, televiziyo ndetse n'ibipima uburebure, kuri televiziyo harimo umuganga urimo uratambutsa inyigisho.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo ibyifashishwa mu kubaga, mu gupfuka ndetse n'ibindi, impakasi, n'inshinge, impapuro z'isuku ndetse n'imiti.

Umwana w'umukobwa wicaye ku gitanda, aho yavuye muri siporo agakomereka ku ivi. Kwa muganga bamwitayeho neza, aho bamupfutse aho yakomeretse ku kuguru kw'iburyo.

Umugabo wicaye ku gitanda ndetse n'umugore urimo aramuzirika bande ku kuguru kw'iburyo, aho yavuye muri siporo agakomereka.

Igikapu kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku muntu wagiriye ikibazo muri siporo. Igikapu hakaba harimo bande, imiti itandukanye yo gutsigwa ndetse na za pomade.

Itsinda ry'abantu benshi bibanzemo abasore ndetse n'abakobwa iri tsinda rikaba ririmo kwitoza uburyo bagomba gutanga ubuvuzi bw'ibanze bambaye imyenda yabugenewe iriho umusaraba n'umweruru.

Umugabo w’igikwerere ufite agasumi mu ijosi wambaye umupira w’icyatsi uri kunywa amazi meza avuye muri siporo.

Umwana w'umukobwa, uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, aho ageze mu rugo yakomeretse, ndetse yavunitse ku kuguru kw'ibumoso, afite agakoresho kabugenewe, arimo arikanda.

Umwana w'umukobwa, wambaye agasengeri gatukura k'umuhondo, aho avuye muri siporo yambaye ekuteri, arimo arinanura amaboko.

Inyubako irimo abantu b'ingeri zose batandukanye, b'abaganga bafite amakaramu, ndetse n'amakayi mu ntoki, barimo barandika, imbere yabo hakaba hari undi muganga urimo urabaha inyigisho.

Igikoresho cyitwa burankakari kiri mu ishusho y'umuhondo, imigozi y’umukara irimo n'akabara gatukura ndetse n'utwuma. Iki gikoresho kikaba gikoreshwa mu guterura abarwayi.

Icyapa kigaragaza abantu batandukanye bitewe n'ibibazo bahura na byo, harimo: kubabara umutwe, kuruka, kubura amaraso, kutabona, urusaku mu matwi, kunanirwa, umubabaro, kubura ibitotsi ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo karemano itunganywa mu byatsi by'ibimera, harimo igikakarubamba n'ibindi, iyi miti iri mu ducupa twabugenewe.

ibimera bitandukanye harimo mu cyayicyayi ndetse n'urundi kindi cyatsi kimeza mu gishanga hariho n'imbuto zindimu zirambitse ahantu ku m ndetse n'icyuma

Uducupa dutandukanye, utureture n'udutoya turambitse hasi, aho hariho igipapuro cyangwase ikirango kuri buri gacupa kigaragaza ko umuti urimo ukomoka mu bimera gakondo.

Imiti gakondo irimo uducupa dutandukanye, ak'icyatsi, ndetse n'akandi gatoya cyane andi yose arareshya. Iyi miti inyuma hakaba hariho ibipapuro biranga ubwoko bw'imiti irimo ndetse n'ibiyikozwemo.

Agasekuru gatoya ndetse n'umusekuzo wako, iruhande hari ibyatsi cyimeza, ibyatsi bikaba ari imiti ivura ibintu bitandukanye, itunganyirizwa muri ako gasekuro.

Agakarito ndetse n'uducupa turimo umuti wo koza umubiri, uducupa tumeze nka korogate y'umuti ukaba ukorerwa mu bimera gakondo bitandukanye.

Udukarito dutatu tugaragara neza ndetse n'akandi kari ku ruhande hakaba handitseho amagambo atandukanye agaragaza ko muri aka gakarito harimo umuti ukomoka mu mbuto.

Agacupa gatoya karimwo ibara ry'umweru kavura indwara zitandukanye umuti urimo aho aka gacupa hariho amagambo agaragaza ko kitwa foreva.

Umugore ugaragara igice cyo hasi gusa urimo arasoroma ururabo. Uru ururabo akaba ari umuti akoresha avura indwara zitandukanye, umugore akenyeye igitenge kirimo amabara atukura.

Agacupa k'umuhondo gatoya gafite umufuniko utukura ndetse kanditseho amagambo atukura, iruhande rwaho hari ikimera kitwa igikakarubamba, iki kimera gifite umumaro cyane kuko kivura indwara nyinshi.

Ibyatsi gakondo biri mw’ishyamba uyu ni umuti uvura indwara zitandukanye iruhande hari ibindi biti byinshi by’amoko atandukanye ibiti by’icyatsi n'amababi y’icyatsi…..

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umukara ndetse n'agafuniko k'umweru, hakaba hari igipapuro, icyo gipapuro kigaragaza ko aka gacupa karimo umuti ukomoka ku buki.

Ubwoko bw'ibiribwa bwinshi butandukanye harimo ibitunguru, inyanya ibinyampeke, ibiyiko byo kurisha ndetse n'ibindi buri byose buri gihe biri muri kategori.

Ikimera gakondo cyitwa umuravumba. Uyu akaba ari umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'izindi ndwara zirwarwa mu muhogo.

Agatebo karimo imiti itandukanye ya cyimeza gakondo ndetse iruhande hariho n'indi miti ikozwe mu bijumba, hejuru hariho ibiganza by'umuntu ufasheho.

Etajeri irimo uducupa twinshi turimo imiti, utunini n’udutoya utwo ducupa turiho urupapuro rugaragaza ikirango ndetse n'ubwoko bw'umuti.

Ikimera cy'icyatsi cyitwa umuravumba iki kimera akaba ari umuti mwiza cyane kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye iki kimera kandi kihirahingwa cyangwa se kikimeza.

Ibikoresho bya gakondo bikoreshwa mu bupfumu harimo utwungo, utubindi, uducuma tw'iminwa ibiri, ibikombe, inkoko ndetse n'ibindi.

Ikiganza gifashe imihini ibiri irambitse ku gasahani gatoya, iyo mihini ikaba ikoreshwa isekura imiti gakondo, iruhande hari indobo itukura irimo iyo miti gakondo.

Icyatsi cy'ikimera kirandaranda ahantu hose, ni icyatsi kimeraho imbuto bita urunyanya rutukura, iki cyatsi kikaba giteye ahantu, gikikijwe n'utubuye duto duto.

Uducupa dutatu dutoya turi mu ibara ry'umweru turimo imiti turambitse ku meza habugenewe, utu ducupa inyuma hari amagambo agaragaza impu.

Icyumba kiriho umuganga ufite agakarito ndetse n'igipapuro kiriho ibinini bitatu arimo arerekana.

Ahantu hari ikirere cyiza ndetse n'abantu bahetse ibikapu, abakerarugendo amazi asuma cyane meza baje kuyasura.

Agacupa kari mu ibara ritukura ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru yanditseho avuga Foreva, hakaba haba harimo umuti ukomoka mu bimera gakondo.

Ikimera gihingwa mu gishanga, aho hari umuntu urimo urasoroma ku ibabi rimwe ry'icyo kimera, iki kimera ni ingenzi cyane kuko kivura indwara zitandukanye.

Agacupa gatoya k'umweru kariho igifuniko kiri mu ibara ry'umuhondo, icyo gifuniko hariho akamenyetso kagaragaza ko umuti urimo ufite isano n'inzuki. Iruhande hakaba hari ishusho ry'igikakarubamba.

Udukarito tubiri dutoya twanditseho amagambo y'icyatsi ndetse n'utwo dukarito natwo turi mu ibara ry'icyatsi, ayo magambo aranditse ngo ariyance.

Agacupa gatoya kabugenewe karimo umuti w'amavuta, uyu muti ukaba ushinzwe gusigwa ku mubiri kugira ngo uruhu ruse neza.

Akajerekani gatoya gafite umukondo, kari mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara ritukura ku ruhande agira ati foreva.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru ndetse kariho igipapuro inyuma kiranga umuti urimo, kikaba kigaragaza ko umuti urimo ukomoka ku buki.

Ibikoresho bitandukanye birimo imiti y'ubwoko butandukanye, iyo miti hakaba harimo inyuma udufuniko tw'udupapuro tugaragaza ko umuti urimo imbere uboneka habanje gutunganywa ibimera gakondo.

Imiti gakondo y'ibimera bitandukanye, bifite amababi y'icyatsi avura indwara zitandukanye, iyi miti iri mu kazu, buri muti n'icyo uvura, uri mu kazu kayo.

Agasambi kaboshywe mu biti ndetse n'imigozi, karambitswe hasi, ariko hakaba hariho udutebo turimo imiti gakondo itandukanye. Iyi miti iri mu bwoko butandukanye, kandi ivura indwara zitandukanye.

Imiti y'ibimera itandukanye harimo kapusinine, indimu, amashu, umwenya n'ibindi biti bitandukanye nk'igikakarubamba.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo. Bose bahagaze ahantu mu ishyamba ririmo imiti ya cyimeza. Aho umugabo arimo aratega amatwi, umugore agasobanura icyo iyo miti ikora.

Imiti itandukanye iri mu bicupa byabugenewe ndetse n'ikindi kirahuri kirimo indi miti itandukanye ya kimeza iruhande hari utukoresho tumeze nk'imyuko dukoreshwa natwo tubika ndetse dutunganya umuti.

Agacupa k'umweru gatoya kariho igipapuro cyanditseho amagambo aranga ikirimo, muri aka gacupa kigaragaza ko ari vitorayize.

Uducupa turimo imiti itandukanye, aho duteretse muri etajeri tugerekeranye, tumwe hasi utundi hejuru, hakaba hibanzemo imiti gakondo.

Uducupa tune tureture tubiri ndetse n'udutoya dutatu, aho muri utu ducupa hagiye handitseho amagambo mu ibara ry'umweru agira ati infinite, hakaba harimo umuti gakondo.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry6'umuhondo, agacupa kaka karimo umuti gakondo watunganyijwe neza uvura indwara zitandukanye.

Ubucupa bune burambitse ahantu hamwe mu mfuruka, buririmo imiti gakondo itandukanye ivura indwara nyinshi nka Amibe ndetse n'izindi.

Ubwoko bw'imiti itandukanye harimo imiti yimeza gakondo umuravumba, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye, iyi miti yose ni ingirakamaro cyane kuko iravura.

Etajeri ipanzemo imiti itandukanye igerekeranye imwe hasi indi hejuru iyi miti ikaba ari imiti ya gakondo, inyuma hahagaze abantu babiri.

Agakoresho bakoresha basekura umuti gakondo ndetse n'ibindi biti bikomokaho ibimera, aka gakoresho karasa nk'umweru, iruhande rwawo harimo imiti itandukanye nka tungurusumu ndetse n'ibindi.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umufuniko w'ubururu, kanditseho amagambo y'umweru agaragaza ko, ari amavuta umuntu asiga ku ruhu kugira ngo ruhehere.

Uducupa twabugenewe turindwi tugaragara neza ndetse n'akandi ku ruhande katagaragara neza aho turimo imiti gakondo itandukanye imwe ikomoka mw'ikawa indi ikomoka mu bindi biremwa bitandukanye.

Imiti gakondotugi iri ahantu mu ishyamba kimeza. Iyi miti minini irimo ibara ry'icyatsi.

Umuti gakondo ugizwe n'icyayi, hasi hateretse igikarito, biteretse ku biti bigaragara nk'aho ari intebe.

Ikimera cy'icyatsi, gifite amababi y'icyatsi, kigaragara nk'aho ari umuti uvura indwara zitandukanye. Hafi yaho ntamuntu uhari, ni agashami konyine.

Uducupa tw'imiti dutandukanye tugera muri turindwi; utureture dutatu ndetse n'utugufi tune, buri gacupa hakaba hariho ikirango cy'uko umuti urimo utunganywa mu miti gakondo n'igikakarubamba n'ibindi.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi ndetse na baji mu ijosi, afite amababi y'imihati uyu nawo ni umuti uvura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye iri mu gacupa ndetse ivura imvune zitandukanye, hariho amafoto agaragaza abantu bitewe n'imvune barwaye hariho abavunitse mu kuboko, k'umugongo, mu rutugu, mu rutirigongo, mu ijosi ndetse n'ahandi.

Ibyatsi by'ibimera byo mu ishyamba, bigaragara neza cyane, nk'ibifite umumaro ukomeye mu buzima bwa muntu, ibi byatsi bikaba bikoreshwa bivura indwara nyinshi zitandukanye, ndetse n'indwara ziterwa n'indyo ituzuye.

Ibimera gakondo biri mu ibara ry'icyatsi, amababi y'icyatsi, bikaba byeraho imbuto, bikaba byitwa gaperi, ibi bimera amababi yabyo avura indwara zitandukanye.

Agacupa karimo umuti usigwa ku minwa, handitseho amagambo agaragaza ko uyu muti woroshye gusigwa, uwo ariwe wese ashobora kuwukoresha.

Ibimera bihinze mu butaka, ibimera bifite ibara ry'icyatsi bihinze mu gishanga. Ibimera ni ibimera bikomoka ku mbuto z'ibirayi.

Ishyamba kimeza rinini cyane ririmo ibiti birebire ndetse n'ibindi bito bya gakondo ibi bikaba bifite amababi yayo afite umumaro munini mu mivurire y'abantu.

Icupa ritukura rifite n'umufuniko utukura, inyuma hakaba hari igipapuro kigaragaza ko uyu muti ukomoka mu bimera nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi.

Ishyamba rihinzemo imiti gakondo yimejeje aho amababi yayo avura indwara zitandukanye, iyi miti twavugamo nk'umuravumba ndetse n'izindi.

Agacupa karekare karimo amabara y'umuhondo ndetse inyuma hakaba handitse n'amagambo agaragaza ko iri cupa umuti gakondo uba urimo ukozwe mu gikakarubamba.

Icyatsi cy'ikimera gifite uturabo hejuru turimo umweru n'umuhondo cy'icyatsi amababi yayo akabavura indwara zitandukanye nk'ibikomere n'izindi iki cyatsi cyitwa inyarabasanya.

Ikimera gakondo kikaba nanone ari umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, iki kimera kikaba cyitwa umuravumba kivura indwara nk'inkorora ndetse n'izindi.